Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo ab'igitsina gore ndetse aho abo bantu benshi muri bo bafite abana batoya, aho bazanye abo bana kugira ngo bahabwe ubuvuzi ndetse banasuzumwe barindwe kuba bazandura indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye.

Abana bato b'abirabura ndetse b'abakobwa bambaye impuzankano z'ishuri. Aho berekeje ibiganza byabo ku mugezi wubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho bari gusukura intoki zabo kugira ngo birinde kuba bazarwara indwara ziterwa n'umwanda.

Umuganga w'umugore wishimye cyane ndetse imbere ye hari umugore ufite akana gatoya, aho uwo muganga ari gusuzuma ako kana kugira ngo amenye uko ubuzima bwako bumeze maze akurikirane ubuzima bwako akavure kugira ngo katarushaho kuremba.

Urujya n'uruza rw'abantu bo mu ngeri zitandukanye biganjemo abakuru ndetse n'abana batoya, aho bateraniye hamwe bari kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo iz'ubuzima bavuga ukuntu babungabunga ubuzima ndetse n'icyakorwa kugira ngo iterambere ry'ubuvuzi rirusheho kwimakazwa.

Umugore w'umwirabura wikoreye igikoresho cyagenewe gutwarwamo amazi, ndetse ubona ko avuye ku mugezi wa kijyambere ayajyanye mu rugo, ngo bayakoreshe mu gusukura ibikoresho byo mu rugo kugira ngo birinde kuba bakwandura indwara ziterwa n'umwanda.

Itsinda rigizwe n'abantu batatu b'inzobere bambaye bikwije cyane ndetse n'udupfukamunwa, aho iryo tsinda rihagaze mu nyubako yagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho, aho izo nzobere ziri kwerekana ubwoko bw'umuti bukoreshwa mu kuba batanga ubuvuzi bugezweho.

Abantu benshi bicaye barebana, bagaragara ko bari mu nama, bari kungurana ibitekerezo, kuganira ku ngingo runaka, umwe atanga ibitekerezo n'undi atanga igitekerezo kugira ngo babashe kugera ku ntego bifuza.

Umusaza w'umwirabura wishimye cyane ndetse wicaye ku gikoresho cyagenewe gutwagwamo amazi. Aho imbere ye hari umugezi wa kijyambere, aho uwo mugabo yishimye kubera ko yaje kuvoma amazi meza kandi asukuye ngo ayajyane iwe abashe gusukura ibikoresho mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagore ndetse bateraniye hamwe ku nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi. Aho abo bagore bazanye impinja zabo kugira ngo zikingigwe kugira ngo hirindwe kuba izo mpinja zazanandura indwara z'ibyorezo.

Umwana muto w'umukobwa wambaye impuzankano, irimo amabara y'ubururu ndetse yunamye arambuye ibiganza bye abyerekeza ku mugezi wa kijyambere, ari kunywa amazi ari kuva muri uwo mugezi ndetse ubona ko abyishimiye cyane.

Abana bato b'abirabura barimo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye imyambaro yo hejuru ifite ibara ry'ubururu ndetse iriho ikirango cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe uburenganzira bw'abana. Aho ubona ko abo bana baribitabiriye ibiganiro byatangagwa ku bufatanye n'icyo kigo gishinzwe uburenganzira bw'abana ku Isi hose.

Ibirango bihagarariye imiryango mpuzamahanga ikora ibintu bitandukanye, harimo nk'umuryango ububungabunga ubuzima bw'abana, umuryango ubungabunga ubuzima ndetse n'umuryango ushinzwe ibijyanye n'isuku ndetse n'umuryango ushinzwe ibijyanye no gukwirakwiza amazi meza aho ibyo birango bihagarariye iyo miryango kugira ngo abantu babashe kubaho.

Imfashanyigisho yiganje mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, irimo umugabo w'inzobere wambaye uturindamaso ndetse w'umwirabura, ndetse mu ibara ry'umweru harimo amagambo ashishikariza abantu kuba bakoresha inkingo ndetse banirinda kanseri kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo hirindwe impfu zitateganyijwe.

Itsinda rigari ry'abantu ryiganjemo ab'igitsina gabo, ubona ko bateraniye ahantu hamwe bafite ibinyobwa bari kunywa ndetse bari kuganira ku ngingo zitandukanye, zirimo uko babungabunga ubuzima bwabo ndetse n'uko bateza imbere ibijyanye n'ubuvuzi muri rusange.

Urujya n'uruza rw'abantu bo mu bwoko butandukanye bateraniye hamwe, aho baganye inzobere mu by'ubuvuzi kugira ngo zibapime zirebe uko bahagaze, hifashishijwe kubatera inshinge bakabafata amaraso kugira ngo ajyanwe gusuzuma barebe icyo baba barwaye maze bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Abana babiri bari ahantu mu cyanya kigari gikikijwe n'ibidukikije, ubona ko umwe ari gufasha mugenzi we kuba yamukorera igikoresho kirimo amazi. Aho abo bana bari bavuye iwabo baje kuvoma amazi meza kugira ngo bayajyane gusukura ibikoresho byo mu rugo, hirindwe indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana muto w'umwirabura, uri guseka yishimye cyane. Ndetse ku mutwe we yikoreye igikoresho cyagenewe gutwarwamo amazi, kiriho ikirango cy'ikigo mpuzamahanga cyita ku burenganzira bw'abana. Ndetse hirya ye hari n'undi mugabo nawe uri guseka, yishimye cyane, ari kumukorera ku mutwe, icyo gikoresho cyagenewe gutwarwamo amazi.

Abagore babiri bari guterura umufuka bafashijwe n'umugabo umwe bavana umufuka ahantu runaka, bawushyira hejuru kugira ngo babashe kubitondeka neza, iyi mifuka mu mwanya wa nyawo.

Abantu batatu barimo abagore babiri ndetse n'umwana w'uruhinja ukiri muto, aho umwe muri abo bagore acigatiye uwo mwana akaba yamuzanye mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, aho uwo mwana ari kwitabwaho n'inzobere yabihuguriwe kugira ngo ubuzima bwe bukurikiranwe.

Umwana muto w'umwirabura wishimye cyane ndetse ibiganza bye yabifatishije ku gikoresho kirimo amazi ari kugifungura kugira asukure intoki ze, yirinde kuba yazandura indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bagiye ku ivomo gushaka amazi yo gukoresha, bamwe bitwaje indobo, abandi bakitwaza ibijerekani ndetse n'utujerekani dutoya bashaka amazi yo gukoresha imirimo isanzwe.

Urujya n'uruza rw'abantu rwiganjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko. Aho bari hanze bari gufatwa amashusho, ndetse ubona ko bishimye cyane bahagaze hanze y'inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, ubona ko bavuye mu biganiro byari biri gutangirwa muri iyo nyubako.

Umuganga ugaragara atera urushinge umwana, mu kaboko k'ibumoso ahagana ku rutugu, amukingira indwara kugira ngo atazabasha kwandura izo ndwara.

Umwana muto w'umwirabura usutamye ndetse yerekeje ibiganza bye byombi ku mazi ari kuva ku mugezi ukozwe mu buryo bwa kijyambere, aho uwo mwana ari gusukura intoki ze kugira ngo yirinde kuba yazandura indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Itsinda rigizwe n'abantu batatu. Barimo umugabo n'umugore ndetse ubona ko umugore atwite. Aho uwo mugabo n'umugore bicaye mu busitani bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima, ari kubagira inama z'ukuntu bakurikirana ubuzima bw'uwo mubyeyi utwite kugira ngo n'ubuzima bw'umwana atwite bumere neza.

Agatanda gakozwe mu biti, kariho amasahani amaze kozwa neza kugira ngo abashe kumuka bityo aze gushyirwa mu nzu, ntamazi akiriho, amaze kumera neza.

Ikirango cyanditswe mu mabara y'umweru ndetse gishushanyije mu ibara ry'ubururu, aho icyo kirango gihagarariye Umuryango Mpuzamahanga ushinzwe kwita ku burenganzira bw'abana.

Umugore uri gukaraba intoki, neza, akoresheje kandagira ukarabe, ku mazi meza ari mu kajerekani asukuye, ari mu rwego rwo kwirinda umwanda, akimakaza isuku.

Umwana muto w'umukobwa w'umwirabura uri ahantu ku mugezi wubatswe mu buryo bugezweho, aho uwo mwana ari gusukura ibikoresho bitandukanye byagenewe kubikwamo amazi kugira ngo yirinde kuba yazandura indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bato b'abahungu babiri, barambuye ibiganza byabo babyerekeza ku mugezi wubatswe mu buryo bugezweho ndetse muri uwo mugezi hari kuvamo amazi agwa ku biganza byabo, ubonako bishimye cyane kubera ko babonye amazi kandi amazi akaba ari ubuzima.

Ibikorwaremezo bigiye bitandukanye byubatswe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga, bikaba byutse ku buso bunini, bikaba byarubakiwe kuba byabika amazi mu gihe kirekire kandi akaba yakoreshwa mu gihe amazi yabuze.

Umwana muto w'umwirabura ufashe agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi, aho uwo mwana ari kuvoma amazi ari kuva mu kigega kugira ngo ayakoreshe mu kuba yasukura intoki ze yirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Igikorwa remezo cyubatswe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga, aho icyo gikorwa remezo cyagenewe mu kuba cyakusanya amazi, kugira ngo abashwe kuba yabikwa igihe kirekire, ndetse azanakoreshwe igihe azaba akenewe kugira ngo hirindwe kuba amazi yabura.

Itsinda rigari ry'abana biganjemo ab'abahungu ndetse n'abakobwa bishimye cyane ndetse ubona ko abenshi muri bo bambaye imyambaro yo hejuru ifite ibara ry'umweru. Aho bigaragara ko abo bana baribitabiriye ibiganiro byavugaga ku buzima kugira ngo barusheho kuzamura ubumenyi bw'abo bana ku byerekeye ku kubungabunga ubuzima.

Ababyeyi bicaye hamwe ku ntebe bagiye gukingiza abana babo b'impinja kugira ngo babatere urushinge, rukingira indwara zimwe na zimwe z'impinja ndetse n'abana muri rusange.

Itsinda ritari rito ry'abantu ryiganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, aho bicaye hasi mu nyubako nini mu buso, yagenewe gutangirwamo ibiganiro ndetse aho bari guhana ibitekerezo ku cyateza imbere ubuzima bwabo, hibandwa ku byateza imbere ubuvuzi muri rusange.

Abantu batatu biganjemo ab'igitsina gore ndetse bateraniye hamwe ku mugezi wa kijyambere, aho bari kuvoma kugira ngo ayo mazi bayajyane mu ngo zabo akoreshwe mu gusukura ibikoresho, birinde kuba barwara indwara ziterwa n'umwanda.

Umugabo uri gusuhuzanya n'akana ubona ko bishimye cyane, bakinaga umukino ugaragara cyane ari gushimira umwana, amubwira ko wakoze kwitwara neza ni iby'agaciro.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye biganjemo abagore, abagabo, abirabura ndetse n'abafite uruhu rwera, bicaye ahantu mu nyubako ngari yubatswe mu buryo bugezweho, iri gutangirwamo amahugurwa ku bijyanye n'ukuntu hafatwa neza ubuzima ndetse bakagabanya n'impfu ziterwa no kuba ubuzima butitaweho.

Itsinda rinini ry'abantu rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore. Aho bamwe muri bo bambaye impuzankano z'ubururu, abandi impuzankano z'umweru. Aho bateraniye hamwe bari gufatwa amashusho, berekana ko bavuye mu biganiro byari biri gutangwa, aho byavugaga ku bijyanye n'ukuntu ubuzima bwabungwabungwa.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagore. Aho bahagaze hanze y'inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, bari gufatwa amashusho kugira ngo herekanwe ko bitabiriye inama yari iri kuvuga ku bijyanye n'ubuvuzi ndetse aho abo bantu bahawe amahugurwa, ajyanye n'ukuntu babungabunga ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abandi.

Umwana uri ku ivomo agaragara aho ari kuvoma amazi meza ashyira mu kijerekeni kugira ngo ayatware mu rugo, ababyeyi babashe kuyakoresha imirimo yo mu rugo.

Ururya n'uruza rw'abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore ndetse n'abana batoya, aho bateraniye mu nyubako iri gutangirwamo ibiganiro biri kuvuga kuko babungabunga ubuzima ndetse n'icyakorwa kugira ngo iterambere ry'ubuvuzi ryimakazwe.

Itsinda rito ry'abantu b'inzobere bambaye imyambaro bikwije ndetse ubona ko bagiye kureba abarwayi bafite ibyorezo bitandukanye, kugira ngo bajyanwe kwa muganga bitabweho, maze ubuzima bwabo bubungabungwe kugira ngo bataba bapfa.

Itsinda rito ry'abantu ryiganjemo abagabo, ndetse n'abagore, harimo ndetse n'abashinzwe umutekano muri bo, bicaye hanze mu busitani bukikijwe inyubako irimo amabara yiganjemo ay'ubururu, ndetse aho abo bantu bari kuganira banahana ibitekerezo, kugira ngo barusheho kwimakaza iterambere ry'ubuvuzi by'umwihariko.

Itsinda rito rigizwe n'inzobere ebyiri. Zambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano z'ubururu. Aho zasuye abaturage bo mu cyaro kugira ngo zisuzume ubuzima bwabo uko bumerewe. Hibandwa ku buzima bwo mu kanwa kugira ngo hirindwe indwara zandura zifata igice cyo mu kanwa.

Umwana muto w'umwirabura ndetse w'umukobwa. Wambaye impuzankano y'ishuri ndetse yerekeje ibiganza bye ku gikoresho cyagenewe gukarabirwamo intoki. Kiri ku gikoresho cyitwa kandagira ukarabe, gikoreshwa mu kumanura amazi igihe umuntu ari gukaraba kugira ngo asukure intoki ze kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore ndetse n'abana bari kumwe n'abo bagore bateraniye ahantu mu cyumba kigari, aho bari guhabwa ibiganiro byerekeye ubuzima hibandwa k'uko babungabunga ubuzima ndetse n'icyo bakora kugira ngo barusheho kumera neza.

Inyubako ebyiri zubatswe mu buryo bugezweho, zirimo amabara yiganjemo ay'ubururu ndetse zubakishije ruriba. Aho izo nyubako zikikijwe n'uruzitiro zikaba zaragenewe gutangirwamo ubuvuzi bugiye butandukanye.

Itsinda rigari ry'abantu rigizwe n'inzobere zirimo abagabo ndetse n'abagore, aho bateraniye mu cyumba cyagenewe gutangirwamo ibiganiro ndetse n'amahugurwa, ari kuvuga ku bijyanye n'ukuntu ubuzima bwakwitabwaho.

Itsinda rito ry'abantu rigizwe n'abana bane ndetse n'umuntu umwe mukuru, aho uwo muntu mukuru ari gusukira abana amazi ku biganza byabo kugira ngo babisukure, birinde kuba bakwandura indwara ziterwa n'umwanda.

Itsinda ritari rito mu mubare ry'abantu bo mu ngeri zitandukanye, barimo abagabo, abari ndetse n'abategarugori, bateraniye hamwe mu cyumba kigari cyari kiri kuberamo amahugurwa yavugaga ku buryo bwo gukumira ku gutwita ku bana bataruzuza imyaka.

Urujya n'uruza rwateraniye ahantu hamwe ubona ko higanjemo abagore ndetse n'abana bato b'abakobwa, aho bateraniye hamwe kugira ngo bahabwe ibiganiro ndetse n'amahugurwa abashishikariza kuba bakwita ku buzima bwabo ndetse banabigisha uko babwitaho kugira ngo barusheho kububungabunga.

Abantu basaga batandatu, bari mu nyubako yagenewe gutanga ubuvuzi ku kigo nderabuzima, aho muri abo bantu batandatu, harimo babiri bari kwita ku barwayi, aho bafashe akana gatoya bari kugasuzuma kugira ngo bamenye uko ubuzima bwako buhagaze, maze babashe kugaha ubuvuzi bw'ibanze.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abari ndetse n'abategarugori, bateraniye ahantu mu cyumba kigari mu buso ndetse bamwe muri bo bari kubyina indirimbo za Kinyarwanda, abari inyuma yabo ndetse na bo bari kubaha amashyi kugira ngo bishimire ibikorwa bajemo byari biri kuvuga ku ngingo zijyanye n'ubuzima ndetse banahabwa inyigisho ku kuntu babungabunga ubuzima bwabo.

Umugabo wicaye hasi usa nk'ukuze bambitse amapingu, ukurikiranwaho ibyaha by'umutekano, usa nk'ugiye gufungwa kugira ngo akurikirweho byimbitse.

Umusaza w'umwirabura uri mu zabukuru, wambaye mu buryo butangaje ndetse bishoboka ko uwo musaza ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe, aho inyuma y'uwo musaza hari n'abandi basaza na bo bambaye imyambaro nk'iy'uwo musaza.

Umumama cyangwa se umukobwa wicaye ku gatebe wenyine ari gutekereza cyane, ubona ko atishimye afite ibintu bimuhangayikishije mu buzima

Umuhungu wicaye hamwe, baziritse amaguru, uri gutekereza cyane ugaragara nkaho afite ibibazo byinshi, byamucanze, yabuze icyo akora n'icyo areka muri make.

Umukecuru, w'umwirabura, yicaye, ku intebe y'agasongabugari, ndetse yicaye, hanze, y'inzu ye, yishimye cyane. Arimo, guteka, ku amashyiga ya kinyarwanda, ndetse afite n'agakoresho, gakoreshwa, mu gukoroga, ibyo umuntu atetse, kitwa, umwuko.

Itsinda rito ry'abantu ririmo abagore ndetse n'umugabo umwe, bicaye hanze, barimo baganira ndetse bakikijwe n'ibidukikije birimo ibiti ndetse n'urutori, aho bari kuganira bungurana ibitekerezo kugira ngo barusheho kwiteza imbere ndetse banagirane inama.

Icyumba kitari kinini mu bugari ndetse kirimo amabara yiganjemo ay'umweru, kirimo abagore batatu ndetse babiri muri bo bafite abana bato b'impinja, aho umugore umwe ari kubagira inama zituma bafata abana babo neza kugira ngo bazakure mu gihagararo ndetse bafite n'ubwenge.

Amashusho ane atandukanye ndetse bigaragara ko yafatiwe ahantu hamwe. Aho ayo mashusho agaragaza urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abirabura ndetse n'abafite uruhu rwera, aho abo bantu bahurira hamwe bakiga ibyiza by'ibidukikije ndetse bakanahabwa amahugurwa ku bijyanye no gutera ibiti mu buryo bugezweho.

Umugabo w'umwirabura ubabaye cyane, ndetse amarira ari gushoka ku matama ye ubona ko arakaye, ndetse ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza kubera ibibazo afite bigiye bitandukanye.

Itsinda rito ry'abantu rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo, aho bateraniye hamwe mu cyumba cyagenewe gutangirwamo amahugurwa ndetse n'inama, aho bari kwiga ku ngingo zitandukanye zirimo k'ukuntu babungabunga ubuzima bw'abantu by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe.

Itsinda rito ry'abantu biganjemo abagabo abagore ndetse n'urubyiruko, aho abagize iryo tsinda bose bambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri, aho iryo tsinda rihagaze hanze ahari gufatirwa amashusho bashishikariza abantu kuba bajya bitabira ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri.

Imfashanyigisho igizwe n'umutwe w'umuntu, ndetse muri uwo mutwe handitsemo amagambo mu rurimi rw'icyongereza, ashishikariza abantu kuba bakurikirana ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse anerekana umunsi mpuzamahanga uzizihizwa uzaba uvuga ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore w'umwirabura uri mu nzu utetse ndetse mu mugongo we ahetse umwana ukiri mutoya, hirya ye hari akandi kana ubona ko kari mu myaka isaga nk'itanu, aho bishimye cyane kubera ko batetse.

Ikirango kirimo amagambo ndetse n'akamenyetso gashushanyije, aho kirimo amagambo agaragaza ko iki kirango gihagarariye ibitaro byagenewe gutanga ubuvuzi bwo mu mutwe.

Itsinda ritari rito, ryiganjemo abana benshi ndetse n'umukecuru umwe, aho ubona ko abo bana bishimye cyane, bicaye bakikije umukecuru uri mu za bukuru, bari kumuganiriza kugirango ubuzima bw'uwo mukecuru bwo mu mutwe, burusheho kumera neza.

Urujya n'uruza rw'abantu. Biganjemo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye ahantu mu nyubako ngari, mu buso, bari kumva ibiganiro biri gutangirwa muri iyo nyubako, byiganjemo ubuzima bwo mu mutwe. Uko babubungabunga ndetse n'uko bakwita ku bantu bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo w'umwirabura wisize imbyiro mu maso. Ndetse wambaye imyambaro ishaje cyane yacitse bikabije. Aho uwo mugabo afite ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara ko uwo mugabo afite uburwayi bwo mu mutwe.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abana batoya, aho abo bana bahurijwe ahantu hamwe mu cyanya kigari ndetse ubona ko abo bana bari gucurira baseka cyane bishimiye ibiganiro bamaze guhabwa byavugaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo w'umwirabura wasamye yerekana ibice bye byo mu kanwa ariko yibanda ku gice cy'amenyo, aho afite akagozi kari mu biganza bye kanyura mu menyo ari kuyasukura kugira ngo yirinde kuba yarwara indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Umugore w'umwirabura wambaye umwambaro wo hejuru uciye amaboko, ndetse ufite agakoresho kagenewe gusukura amenyo, ari kuyasukura kugira ngo yirinde kuba yarwara indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Umuntu wasamye yerekana ibice bitandukanye byo mu kanwa, by'umwihariko yibanda ku gice cy'amenyo ndetse afite agakoresho gakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi kari kubonerana, ako gakoresho kakaba kifashishwa mu kurinda amenyo ndetse kakaba kanayafasha mu kuba yamera neza kugira ngo hirindwe indwara zo mu kanwa.

Umwana muto w'umwirabura uryamye hasi. Aho hejuru ye hari ibiganza byambaye uturindantoki ndetse bifashe udukoresho tw'ikoranabuhanga dukoreshwa mu gutanga ubuvuzi bw'amenyo. Aho uwo mwana ari gukorerwa ubuvuzi kugira ngo arindwe kuba yarwara indwara zo mu kanwa.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa ndetse n'umusatsi mucye, aho uwo mugabo yasamye yishimye cyane, aho ari kwerekana ibice bye byo mu kanwa, by'umwihariko yibanda ku menyo kugira ngo yerekane ukuntu asa neza, ndetse anashishikarize abandi bantu kuba bayisukura amenyo yabo kugira ngo na yo ase neza.

Umugabo w'umwirabura wambaye ubusa hejuru ndetse wasamye, aho ibiganza bye byombi bifashe akagozi kari kunyura mu kanwa kugira ngo ahakorere isuku maze ubuzima bwe bwo mu kanwa burusheho kumera neza.

Umusore uringaniye udakuze cyane, ugaragara nko mu myaka makumyabiri n'itanu kugera kuri mirongo itatu, ubona ko yizihiwe, yishimye, ari guseka, afite akanyamuneza kenshi.

Itsinda rito rigizwe n'inzobere mu by'ubuvuzi by'umwihariko ubwo mu kanwa, aho iryo tsinda ryasuye abana bato ku bigo by'amashuri kugira ngo babigishe uko bakora isuku mu kanwa, bibanda ku gice cy'amenyo kugira ngo ubuzima bwabo bwo mu kanwa burusheho kubungabungwa no kumera neza.

Umugabo w'umwirabura, wasamye ndetse ibiganza bye byombi bifashe akagozi kanyura mu menyo hagati, aho ari kwikorera isuku yo mu menyo ndetse kugira ngo arusheho kubungabunga ubuzima bwe bwo mu kanwa.

Umugore w'umwirabura wicaye hasi, ambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri. Ndetse ufite imisatsi irimo imvi nyinshi cyane yicaye hasi ku gasambi, yerekeje amaboko ye yombi ku kuguru kwe, arimo kugorora ibice by'umubiri kugira ngo arusheho kugira umubiri mwiza.

Abantu babiri barimo umusaza umwe uri mu zabukuru ufite umusatsi urimo, imvi nyinshi ndetse ubona ko yishimye ari gufashwa mu gukora imyitozo ngororamubiri n'inzobere yabihuguriwe iri kumugorora ibice bye by'umubiri kugira ngo uwo musaza arusheho kumera neza.

Abantu babiri barimo umusaza uri guseka wishimye cyane ndetse ubona ko uwo musaza ari mu zabukuru, aho afite imvi nyinshi mu musatsi ndetse uwo musaza akaba ari kumwe n'umukobwa w'inzobere mu byo gutanga ubuvuzi ndetse no kwita ku bari mu zabukuru. Aho ari kumwitaho kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'uwo musaza.

Umusaza usa nkukuze cyane, ugaragara ari muri dushe, aho bakunze kwita muri ravabo mu ndimi z'amahanga, ari gukaraba amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwimakaza isuku.

Abagore babiri b'abirabura, ndetse bambaye imyambaro yagenewe mu gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri. Ubona ko bakikijwe n'ubusitani bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagorore ibice byabo by'umubiri birinde kuba barwara indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza uri mu zabukuru ufite umusatsi urimo imvi nyinshi cyane ndetse aryamye ahantu ku buriri, hejuru ye hahagaze umuntu uri kumwitaho ndetse hari n'imashini ziri kumufasha kugira ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Umusaza w'umwirabura uri mu zabukuru ndetse ufite imisatsi irimo imvi nyinshi cyane. Aho ari kwandika yambaye indorerwamo kugira ngo abashe kureba neza, dore ko amaso ye atakireba kubera imyaka myinshi.

Umusaza w'umwirabura ufite imisatsi irimo imvi nyinshi cyane ndetse uri kwitabwaho n'umuvuzi wabihuguriwe kandi w'inzobere, aho uwo muvuzi yamuhaye ibiribwa bitandukanye ndetse ari no kumusukira icyo kunywa kugira ngo anywe atsirike icyaka.

Abagore babiri b'abakecuru bari mu zabukuru ndetse umwe muri bo afite imisatsi irimo imvi nyinshi cyane ndetse bari mu myitozo ngororamubiri bishimye cyane, aho barambuye ukuboko kwabo imbere kw'iburyo ndetse n'ukundi kw'ibumoso bakwerekeje inyuma, bari kugorora ibice byabo by'umubiri kugira ngo barusheho kumera neza.

Itsinda rito rigizwe n'abantu batatu. Harimo babiri bakiri bato ndetse n'umwe uri mu zabukuru, ubona ko bari kuganiriza uwo mukecuru uri mu zabukuru bari kumufasha gukina ndetse banamuganiriza kugira ngo yishime maze ubuzima bwe bwo mu mutwe burusheho kumera neza.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abakecuru ndetse n'abasaza bari mu zabukuru, bateraniye ahantu mu nyubako ngari cyane ndetse aho bari guhabwa ibiganiro ndetse aho bakurikiranye n'ibirori kugira ngo babashe kwishima nabo bumve ko ari abantu nk'abandi.

Itsinda ritari rito ry'abantu ryiganjemo abari mu zabukuru kandi b'igitsina gabo, aho bahuriza hamwe bakaganira ndetse bakanaseka, bakanafashwa mu kuba bakora imirimo y'amaboko kugira ngo batagira irungu.

Itsinda ritari rigari mu bunini ryateraniye ahantu mu busitani bugizwe n'ibidukikije birimo nk'ibyatsi ndetse n'ibiti, aho iryo tsinda rigizwe n'abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abana ndetse n'abakuru, aho bari kuganira kugira ngo bite ku buzima bwabari mu zabukuru.

Umusaza uri mu zabukuru ufite imisatsi irimo imvi ndetse wicaye ku ntebe y'agasongabugari, hirya ye hari abana batoya ubona ko baje kumusura iwe kugira ngo bamuganirize maze barusheho gutuma uwo musaza yishima cyane.

Umusaza ufashe ikinini mu ntoki, ugiye gukinywa ndetse ufite n'ikirahure cy'amazi agiye kumanuza ikinini kugira ngo kibashe kumanuka neza kidategwa.

Abantu babiri b'abirabura ubona ko bari mu zabukuru ndetse bafite imisatsi irimo imvi nyinshi cyane, bicaye ahantu mu cyumba kigari cyubatse mu buryo bwinjiza urumuri, bari kuganira kugira ngo barusheho kuba babungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Imfashanyigisho iri mu mabara yiganjemo ay'icyatsi ndetse n'umweru, aho irimo amagambo ashishikariza abantu kuba bakwita ku buzima kugira ngo hirindwe impfu zitateganyijwe.

Imfashanyigisho yerekana umugore w'umuganga, uri gushishikariza abantu kuba bakwita ku buzima bwabo ndetse hirya ye hari amagambo ahanditse na yo ashishikariza abantu kuba bakwita ndetse bakanabungabunga ubuzima bwabo, kugira ngo hagabanwe abantu bapfa mu buryo butateganyijwe.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye neza, bari guteze amatwi bigaragara ko bari mu nama bari kumva ibyo bari kubabwira, bitonze cyane bagatega amatwi icyo bari kubabwira.

Imfashanyigisho yubatswe mu buryo bukoze kare, aho iyo mfashanyigisho yerekana inzego zigiye zitandukanye zifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi, aho iyo mfashanyigisho ishishikariza abantu kuba bakwitabira inzego zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, badasimbutse urwego na rumwe.

Ikirango kigizwe n'inyuguti ziri mu mabara arimo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, icyo kirango kikaba gikikijwe n'amagambo agaragaza ko gihagarariye Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ibijyanye n'Ubuzima mu Rwanda.

Imfashanyigisho yiganjemo amagambo ashishikariza abantu kuba bakwitabira gufata inkingo z'ibyorezo bitandukanye, aho iyo nyigisho irimo igaragaza abantu bafashe inkingo za Kovide cumi n'icyenda n'ibyiciro by'imyaka baba baherereyemo.

Umugabo ufite uruhu rwera ndetse ufite imisatsi irimo imvi nyinshi cyane, uri gutanga ibiganiro mu nyubako ngari ndetse ari gutanga ibiganiro byitabiriwe n'urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, akaba ari gutanga ibiganiro birimo ingingo ziganjemo iziri kuvuga ku buzima.

Imfashanyigisho yerekana umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bidukikije, ndetse inerekana igihe ibiganiro bizaba bivuga ku kwita ku bidukikije bizabera. Aho yerekana ko ibyo biganiro bizaba ku itariki makumyabiri nesheshatu nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Imfashanyigisho yerekana umugore ufite imisatsi iboshye ndetse iyo mfashanyigisho ikaba ishishikariza abantu kuba bakwita ku bidukikije kugira ngo bagire ubuzima bushingiye ku bidukikije kandi banahugurwe ku bijyanye n'ukuntu batera ibidukikije mu buryo bwiza.

Abantu bane barimo umugabo umwe ndetse n'abagore batatu, ubona ko abo bagore bihaye Imana ndetse umwe muri abo bagore yahanye ikiganza n'umugabo, barimo guseka ndetse bari gushimirana kuba bafitanye imikoranire myiza ndetse banarushaho kunoza imikoranire yabo.

Imfashanyigisho ikozwe mu buryo bw'imbonerahamwe, igizwe n'amagambo menshi agiye atandukanye ndetse iyo mfashanyigisho ikaba iri kwerekana ingaruka z'icyorezo cya SIDA ndetse n'imibare y'ibintu byagiye byangirika kuva SIDA yakwiyongera mu bantu.

Umugabo w'umwirabura ndetse uri mu zabukuru, uhagaze imbere ari gutanga ibiganiro mu nama iri kuvuga ku bijyanye n'ubuzima, aho iyo nama iri kuvuga ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ukuntu umuntu yabungabunga ubuzima bwe ndetse n'icyakorwa kugira ngo iterambere rijyanye n'ubuvuzi rirusheho kwimakazwa.

Itsinda rigari ry'abantu biganjemo ab'igitsina gore bambaye utwambaro two hejuru dufite ibara ry'umweru ubona ko bahagaze ahantu mu nyubako yariri gutangirwamo ibiganiro byavugaga kubuzima by'umwihariko bibanda kuko bwabungabungwa kugira ngo hirindwe kuba impfu zitateganyijwe zaba.

Imfashanyigisho igaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye, bigaragara ku muntu ufite indwara iterwa no kuba umuntu yarariye isukari nyinshi. Aho iyo mfashanyigisho ishishikariza abantu kuba bakwirinda kurya ayo masukari menshi kugira ngo batarwara iyo ndwara.

Abaganga babiri bari kwa muganga mu cyumba, bafashe ibikoresho bigaragara nkaho bari gusuzuma umurwayi, bareba uko amerewe kugira ngo babashe kumwitaho no kumurebera imiti.

Inyubako ngari mu buso yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse ubona ko harimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse b'abaganga bahuguriwe gutanga ubuvuzi ku barwayi babaganye. Ubona ko bari kugenda bacicikana kugira ngo bajye kwita ku buzima bw'abarwayi butabacika.

Urujya n'uruza rw'abantu bo mu ngeri zitandukanye biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana bateraniye ahantu mu busitani bukikije inyubako ifite amabara yiganjemo ay'umweru, aho bagannye iyo nyubako kugira ngo bahabwe ibintu bigiye bitandukanye harimo nk'ubuvuzi ndetse banasuzumwe kugira ngo bamenye uko bahagaze.

Icyumba kigari mu buso, cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse gifite amabara yiganjemo ay'umweru. Cyubatswe mu buryo bwinjiza urumuri ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze. Harimo nk'ibitanda ndetse n'imashini zikoreshwa mu gusuzuma umurwayi uko ameze.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga, iyo nyubako ikaba ibikwamo imiti aho abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye, badafite uko bahita bajya ku kigo nderabuzima, bagana iyo nyubako bagahura n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bagahabwa iyo miti kugira ngo harindwe kuba baremba.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse irimo amabara yiganjemo ay'umweru ndetse n'andi. Igeretse kandi ubona ko hari abantu batandukanye baganye iyo nyubako, kugira ngo bahure n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bahabwe ubufasha mu rwego rwo gukurikirana ubuzima bwabo.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho kandi cyubatswe mu buryo bwinjiza urumuri, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo nk'ibitanda byo kuryamaho igihe umuntu ari kuvurwa, ndetse harimo n'imashini zitandukanye zifashishwa mu gusuzuma uko umurwayi ahagaze kugira ngo, akurikiranwe ahabwe ubuvuzi bw'ibanze kandi bugezweho.

Icyumba kigari mu buso, kirimo ibikoresho bitandukanye byagenewe gutangwa ubuvuzi bushingiye ku myitozo ngororamubiri. Aho abantu batandukanye bashaka kuba bakora imyitozo ngororamubiri cyangwa bahabwa ubuvuzi bushingiye kuri iyo myitozo ngororamubiri bagana aho hantu bakabasha kuba bakurikiranwa.

Umugabo uri kwa muganga mu bitaro mu cyumba cy'abarwayi, uri kuzinga supanete hejuru bumaze gucya kugira ngo hinjire akayaga gaciye mu madirishya.

Inzobere mu by'ubuvuzi zambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano z'umweru, aho zihagaze ahantu mu cyumba cyagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho, ubona ko izo nzobere ziri gukoresha imashini zabugenewe zikoreshwa mu kuba zatanga ubuvuzi, bukoresha ikoranabuhanga.

Amarembo magari yinjira ku kigo nderabuzima cya Kabgayi. Aho abantu batandukanye bafite ibibazo by'uburwayi, bagana icyo kigo nderabuzima kugira ngo hitwe ku buzima bwabo ndetse ubona ko hari abantu batandukanye baganye iyo nyubako kugira ngo babashe kuba bahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Itsinda rito rigizwe n'abantu bane b'inzobere mu by'ubuvuzi, bambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano zifite ibara ry'ubururu, aho bahagaze hanze, inyuma yabo hari inyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bw'ababyeyi, aho ababyeyi batwite cyangwa se bafite n'ibindi bibazo bajyanwa, kugira ngo bakurikiranwe ubuzima bwabo bubungabungwe.

Amarembo matoya y'ibitaro bya Kabgayi agaragara ko abinjira n'abasohoka ariho banyura binjiye, haca ndetse n'imodoka mu rwego rwo gukaza umutekano n'inzira nyabagendwa.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abari mu zabukuru ndetse n'abakiri batoya. Aho bicaye ahantu mu nyubako yagenewe gutangirwamo ibiganiro ndetse n'amahugurwa, aho imbere yabo bari kumwe n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bari kubabwira ku ngingo zitandukanye, zirimo iz'ukuntu babungabunga ubuzima bwabo.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga, aho ku bikuta by'iyi nyubako hashushanyije ibishushanyo byiganjemo indorerwamo, aho umuntu ashobora gukeka ko iyo nyubako yaba ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi bw'amaso ukurikije ibishushanyo bishushanyije ku bikuta by'iyo nyubako.

Umuryango winjira mu cyumba cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kiri mu nyubako yagenewe gutanga ubuvuzi bukoresheje ikoranabuhanga, aho icyo cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikozwe mu buryo bugezweho, aho ibyo bikoresho bikoreshwa nko mu kuba basuzuma umurwayi kugira ngo bamenye uko ahagaze.

Icyumba kigari cyubatswe mu buryo bugezweho gifite amabara yiganjemo ay'umweru ndetse kiri mu nyubako yagenewe gutangwamo ubuvuzi. Aho icyo cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byagenewe gutanga ubuvuzi. Harimo nk'ibitanda ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma uko umurwayi ahagaze.

Icyumba kigari mu buso, kiri mu mabara yiganjemo ay'umukara, ndetse kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bugezweho. Aho muri icyo cyumba harimo umugabo w'inzobere wahuguriwe gukoresha ibyuma bitandukanye bikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bikoreshwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo hamenyewe icyo baba barwaye ndetse bitabweho.

Igikoresho gikoreshwa mu buvuzi ndetse gikoreshwa no mu kureba utuntu duto umuntu atabasha kubonesha amaso ye. Aho icyo gikoresho gikoreshwa mu buvuzi, barimo nko kureba umusarane w'umuntu kugira ngo hamenwe icyaba cyihishe inyuma mu musarane w'uwo muntu ndetse icyo gikoresho gikijijwe n'udukoresho dutandukanye, dukoreshwa mu gutwara ibinyabutabire bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu cyumba kigari ndetse kiri mu nyubako yagenewe gutanga ubuvuzi. Aho muri abo bantu harimo abari gukora amasuku, abaryamye bigaragara ko bashobora kuba ari abarwayi ndetse harimo n'inzobere ziri kwita kuri abo barwayi kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kubungabungwa.

Abantu babiri b'abirabura, barimo umuganga w'inzobere, ndetse wahuguriwe gutanga ubuvuzi. Ndetse arimo gukingira undi mugabo w'umwirabura ku kuboko kwe, kugira ngo amurinde kuba yakwatakwa n'indwara z'ibyorezo, ndetse ubuzima bwe burusheho gukomera, kugira ngo hirindwe kuba yagira ikibazo, mu mubiri we.

Icyumba kigari mu buso, gifite amabara yiganjemo ay'umweru, kiri mu nyubako yagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho ndetse icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho. Ibyo bikoresho harimo nk'imashini zikoreshwa mu gusuzuma umurwayi uko ahagaze kugira ngo bamenye icyo agwaye maze bamenye ubuvuzi bamuha.

Icyumba kigari mu buso cyubatswe mu buryo bwinjiza urumuri ndetse gifite amabara yiganjemo ay'umweru. Kiri mu nyubako yagenewe gutangwamo ubuvuzi bugezweho. Aho muri icyo cyumba hahagaze abagabo bambaye impuzankano z'umweru, udupfukamunwa ndetse bari kureba imashini na yo ikoreshwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo hamenywe icyo baba bagwaye maze bitabweho.

Itsinda rito ry'abantu rigizwe n'abantu bo mu ngeri zitandukanye. Ubona ko bicaye hanze y'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako ikorerwamo ibizamini bijyanye n'ubuzima, aho nk'umusarane cyangwa amaraso yafashwe ku barwayi ajyanwa akabasha gusuzumwa kugira ngo hamenywe icyo umurwayi arwaye.

Icyumba kigari mu buso. Cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kandi bwinjiza urumuri. Kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikozwe mu buryo bugezweho, byagenewe kuba byakwifashishwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri. Aho abantu batandukanye bagana iyo nyubako bagakora imyitozo kugira ngo umubiri wabo umererwe neza.

Icyumba kigari mu buso ndetse cyubatswe mu buryo bwinjiza urumuri, aho icyo cyumba cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kikaba kirimo n'ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bujyanye n'imyitozo ngororamubiri.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubika imiti igiye itandukanye, aho abaturage bafite uburwayi badafite uburyo bwo guhita bajya ku kigo nderabuzima bagana iyo nyubako bagahabwa iyo miti kugira ngo barindwe kuba baremba.

Icyumba kiri mu mabara yiganjemo ay'umweru ndetse cyubatswe mu buryo bugezweho, kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, aho muri icyo cyumba haryamyemo umugabo munini ndetse akikijwe n'imashini ziri kumufasha kuba yahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo ubuzima bwe burushweho kubungabungwa.

Inzobere mu byo gutanga ubuvuzi bugezweho kandi bukoresheje ikoranabuhanga, ziri mu cyumba kigari kiri mu mabara yiganjemo ay'umweru ndetse kirimo n'urumuri rwinshi. Aho zateraniye hamwe kugira ngo zihugurane ku gukoresha ibyo bikoresho biri muri iyo nyubako na byo by'ikoranabuhanga, byagenewe na byo kuba byatanga ubuvuzi bugezweho.

Umugabo uri mu zabukuru uri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi ndetse uryamye ku gitanda ari kwitabwaho, akikijwe n'imashini ziri gusuzuma uko ahagaze ndetse hari n'inzobere yahuguriwe iby'ubuvuzi iri kumufasha kugira ngo imwiteho.

Icyumba kigari mu buso gifite amabara yiganjemo ay'umweru ndetse gifite n'urumuri rwinshi, aho kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bugezweho, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu gutanga ubuvuzi bukoresheje ikoranabuhanga, aho abarwayi bajyanwa bagasuzumwa kugira ngo hamenywe icyo barwaye maze bakurikiranwe.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yagenewe gutangirwamo ubuvuzi aho abantu batandukanye bafite uburwayi bayigana bakabasha kuba bahabwa ubuvuzi.

Inyubako nini mu buso ndetse igizwe n'ibyumba bigiye bitandukanye, iyo nyubako ikaba ifite amabara yiganjemo ay'umweru ndetse ikaba yarubatswe kugira ngo yifashishwe mu gutanga ubuvuzi bugezweho, aho abantu batandukanye bafite uburwayi bagana iyo nyubako bakabasha kuba bakurikiranwa.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse inshuro ebyiri ndetse ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, aho abantu bayigana bagahura n'ababihuguriwe bakabaha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bukurikiranwe, hirindwe kuba bwakwangirika.

Icyumba kigari mu buso kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye kandi bikozwe mu buryo bugezweho nabyo byagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho, ibyo bikoresho harimo nk'ibitanda byo kuryamaho ndetse n'udukoresho dukoreshwa mu kubika ibikoresho by'ubuvuzi mu buryo bumeze neza.

Inyubako zitandukanye zubatswe mu buryo butandukanye. Zimwe zubatswe mu buryo bukoze kare ndetse n'izindi zubatswe mu buryo bukoze uruziga. Aho izo nyubako, zagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho. Aho abantu batandukanye bafite ibibazo z'ubuzima, bagana izo nyubako, bagahura n'inzobere, bakabasha guhabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba kigari mu buso, cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse gifite amabara yiganjemo ay'umweru. Kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bugezweho. aho kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi bugezweho kugira ngo hitabwe ku buzima bw'abarwayi ndetse hirindwe n'impfu zitateganyijwe, banarushaho kugabanya umubare w'abapfa kwa muganga.

Icyumba kigari mu buso ndetse cyubatswe mu buryo bugezweho kandi kirimo urumuri ruhagije. Icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye harimo nk'intebe zo kwicaraho, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubika imiti ikoreshwa mu buvuzi.

Icyapa kigaragaraho ikigo nderabuzima cya Tabagwe, aho hagaragara amayesikariye ari imbere azamuka yinjira mu kigo nderabuzima ndetse ubona ko kirimo abantu, abakigana baje gushaka serivise.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara yiganjemo ay'umuhondo, ndetse igeretse inshuro imwe. Aho mu busitani bukikije iyo nyubako hari urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyambaro yo hejuru ifite ibara ry'ubururu. Ubona ko baribitabiriye ibiganiro byari birigutangirwa muri iyo nyubako.

Inyubako y'ubucuruzi yubatswe muburyo bugezweho. Aho iyo nyubako yagenewe kuba yabikwamo imiti itandukanye ndetse ikozwe muburyo butandukanye. Aho umuntu urwaye adafite uko ajya kukigonderabuzima ajya kuri iyo nyubako y'ubucuruzi agahabwa imiti, ishobora kuba imufashije igihe ataragana ikigonderabuzima.

Itsinda rito ry'abantu b'inzobere bambaye impuzankano z'umweru hejuru ndetse ubona ko bari kwerekeza ku nyubako itangirwamo ubuvuzi yitiriwe umwami Faisal.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho kandi bwa kijyambere igeretse inshuro imwe, aho iyo nyubako yubatswe kugira ngo abantu bazajye bayigana maze basuzumwe barebwe uko bahagaze, maze bahabwe imiti kugira ngo hirindwe kuba baremba.

Icyumba kigari mu buso. Kiri mu mabara yiganjemo ay'umweru ndetse kirimo ibikoresho bikozwe mu buryo bugezweho, byagenewe kuba byabika imiti mu buryo butondetse butarimo akavuyo. Aho imiti ishyirwa muri ibyo bikoresho, ikabikwa neza mu buryo budateje akavuyo.

Icyumba kinini mu bugari kirimo amabara yiganjemo ay'umweru. Kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi. Aho icyo cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kwita ku barwayi. Harimo nk'ibitanda ndetse n'udukoresho dukoreshwa mu gutwara ibikoresho bikoreshwa mu kwita ku barwayi. Ndetse ubona ko cyubatswe mu buryo bugezweho.

Icyumba kigari mu buso kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubuvuzi bugezweho. Aho icyo cyumba gifite amabara yiganjemo ay'umuhondo. Ndetse kirimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho. Muri ibyo bikoresho aho harimo nk'ibitanda ndetse n'imashini zikoreshwa mu gusuzuma abarwayi ngo hamenywe uko bahagaze.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga, aho iyo nyubako yagenewe kuba yabikwamo imiti yo mu bwoko butandukanye, aho umurwayi udafite uko ahita ajya ku kigo nderabuzima agana iyo nyubako agahabwa imiti, ndetse akayihabwa n'inzobere zabihuguriwe kugira ngo ubuzima bwe burusheho kubungabungwa.

Icyumba kigari mu buso, cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kandi kirimo urumuri rwinshi, kirimo ibikoresho bitandukanye byagenewe gutanga ubuvuzi bugezweho. Aho abarwayi bafite uburwayi bukomeye, bajyanwa kugira ngo basuzumwe, bamenye icyo barwaye maze ubuzima bwabo babukurikirane hakiri kare.

Umugabo w'umwirabura ufite umubiri munini cyane ndetse wambaye ubusa hejuru, aho ari mu myitozo ngororamubiri, arimo agorora ibice bitandukanye by'umubiri we kugira ngo arusheho kumera neza ndetse anirinde indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umwirabura ufite umubiri munini cyane ndetse wambaye umwambaro wo hejuru uciye amaboko wagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri ndetse mu kiganza cye cy'iburyo afashe agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi, aho yakerekeje ku munwa we ari gusuka amazi mu kanwa, ari kuyanywa kugira ngo arusheho kugarura akabaraga, dore ko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Imfashanyigisho ishishikariza abantu kuba bakwirinda icyorezo cya Covid cumi n'icyenda. Aho iyo mfashanyigisho yereka abantu uburyo butandukanye bakoresha mu kuba bakwirinda icyo cyorezo ndetse inabashishikariza kuba bakora siporo mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo cya Covid cumi n'icyenda.

Icyumba kigari mu buso kirimo ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi, harimo nk'ibitanda bikoreshwa mu kuba abarwayi babiryamaho, aho kimwe muri ibyo bitanda hari umugore uhicaye ndetse imbere ye hari umwana muto w'umukobwa uri guseka cyane ubona ko yishimye aho yahawe ubuvuzi bw'ibanze.

Imfashanyigisho yerekana uburyo butandukanye abantu bakoramo imyitozo ngororamubiri. Ndetse inashishikariza abantu kuba bakwitabira ubuvuzi bwerekeye iyo myitozo ngororamubiri dore ko ari ingenzi ku buzima bw'umuntu.

Abantu babiri barimo umugabo umwe ndetse n'umugore umwe, aho bahagaze ahantu mu kibuga bigaragara ko uwo mugore ari gutanga ubuvuzi kuri uwo mugabo ndetse bigaragara ko uwo mugabo yakomeretse, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugore w'umwirabura wambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri, aho uwo mugore yahinnye ukuguru kwe kw'iburyo akwerekeza hejuru mu kirere, arimo agorora ibice bitandukanye by'umubiri we kugira ngo arusheho kuba yamera neza ndetse ubona ko ahagaze ahantu ku nkombe z'amazi.

Umugabo w'umwirabura uvuye mu myitozo ngororamubiri ndetse ikiganza cye cy'iburyo gifashe agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi, aho yakererekeje ku munwa ari gusoma amazi avamo kugira ngo arusheho gutsirika icyaka, dore ko avuye mu myitozo ngororamubiri ananiwe cyane.

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu buryo butandukanye, ibyo bikoresho bikaba byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze igihe umuntu uri mu myitozo ngororamubiri yakomereka, kugira ngo arindwe kuba yaremba, igihe atarabona ubuvuzi bw'ibanze.

Imbuto zitandukanye ziri mu bwoko butandukanye ndetse ziribwa kugira ngo umubiri w'umuntu urusheho kuba wamera neza. Hirya y'izo mbuto hari ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura umuntu kugira ngo hirindwe kuba yaremba.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse wicaye hasi, aho ari guhabwa ubuvuzi n'inzobere mu byo gutanga ubuvuzi bushingiye ku myitozo ngororamubiri, aho iyo nzobere iri kwifashisha udukoresho dutandukanye tw'ubuvuzi, iri kumuvura ikirenge cye kugira ngo kimere neza.

Imiti iri mu gacupa dutatu igabanya uburibwe bw'umubiri nko mu gihe umuntu yagize ikibazo akabasha gufata ku miti, ku tunini akabanza agasomaho agasomeza n'amazi ikamuvura uburibwe.

Abagabo babiri bahagaze mu cyumba cyagenewe gukorerwamo ubuvuzi bw'ingingo ndetse ubona ko umwe muri abo bagabo ari kwitabwaho n'inzobere yahuguriwe gutanga ubuvuzi bujyanye n'ingingo, hifashishijwe ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu kugorora ingingo harimo nk'amaguru ndetse n'ibindi.

Agakoresho gakozwe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga, kakaba gafite imyanya igiye itandukanye, kugira ngo kajye kabika imiti itandukanye, yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze igihe nk'umuntu yaba akomeretse kugira ngo hirindwe kuba yaremba.

Igikoresho kifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda, kibafasha kuva aho bari bava mu gice kimwe bajya mu kindi, nko ku rwego rwo gutembera.

Ibikoresho by'ibanze bigaragarwa kwa muganga aho, byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bantu bagize ikibazo nk'impanuka ndetse n'ikindi kibazo cy'umubiri.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri, uri mu nyubako yubatswe mu buryo bwinjiza urumuri ndetse ari mu myitozo ngororamubiri arimo agorora ibice bitandukanye by'umubiri we kugira ngo arusheho kumera neza.

Muganga uri kumwe n'umurwayi ugaragara nkaho ari kunanura imitsi ku kaguru kugira ngo amaraso abashe gutembera mu bice bitandukanye by'umubiri.

Umugabo uri mucmba ari gukora siporo mu rwego rwo kuruhura ndetse no kunanura imitsi y'umubiri kugira ngo amaraso abashe gutembera neza mu mubiri muri rusange.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kirimo ibikoresho bigezweho, harimo nk'ibikoresho byifashishwa mu kumenya uko umurwayi ahagaze. Icyo cyumba kikaba kirimo umuganga wahuguriwe gukoresha ibyo bikoresho mu buryo bugezweho.

Umukobwa ugaragara nkaho avuye muri siporo, ari kunywa amazi, wambaye ekuteri ndetse afite gurude arimo aranywesha amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu ufite uruhu rwirabura warambuye ukuguru kwe kw'iburyo ndetse akanahina ukuguru kw'ibumoso, aho ikiganza cye cy'ibumoso gifatiye umuti ku murundi ubona ko yababaye ndetse ikiganza cye cy'iburyo nacyo gifashe ku kuguru kw'ibumoso kugira ngo arusheho kumva ari kumererwa neza.

Icyumba kigari mu buso, gifite amabara yiganjemo ayumweru, ndetse kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga gikozwe mu buryo bugezweho, nacyo gifite ibara ry'umweru aho icyo gikoresho cyifashishwa mu gusuzuma uko umurwayi ahagaze, kugira ngo hamenyewe icyo yaba arwaye maze ahabwe ubuvuzi.

Umugabo w'umwirabura, wambaye uturindantoki ndetse n'impuzankano y'umweru. Aho afashe igikoresho gifite ibara ry'umutuku, gikoreshwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho ndetse aho uwo mugabo ahagaze mu cyumba kigari, kiri mu nyubako yagenewe gutangirwamo ubwo buvuzi bugezweho.

Itsinda ry'abantu ritari rinini mu mubare ryateraniye ahantu mu nyubako nini mu buso, aho muri iryo tsinda harimo umugore ufite uruhu rwera uri kwita ku mwana kugira ngo arusheho kuba yamera neza.

Ishusho yafashwe n'igikoresho cy'ikoranabuhanga, igaragaza ibice byo mo imbere by'umuntu. Aho iri kugaragaza ibice by'umuntu harimo nk'urutirigongo, imbavu ndetse no mu manyanyinya y'umuntu. Aho iyo shusho yifashishwa mu gusuzuma umurwayi kugira ngo yitabweho, ndetse hanamenywe icyo yaba arwaye.

Icyumba kigari mu buso cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse gifite amabara yiganjemo ay'umweru, aho icyo cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo nk'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo hamenwe uko bahagaze ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubika ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Abantu babiri bari mu nyubako yagenewe gutanga ubuvuzi bushingiye ku myitozo ngororamubiri. Aho umwe muri abo bantu babiri aryamye hasi ndetse mugenzi we ari kugorora ibice bye by'amaguru, kugira ngo arusheho kumukorera ubuvuzi bujyanye n'imyitozo ngororamubiri, bityo umubiri we urusheho gukomera.

Umugabo w'umwirabura wambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'umweru ndetse mu kuboko kwe kw'ibumoso afite agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi, aho yagacuritse akerekeza ku munwa we, ari gusoma amazi ari kuvamo, ubona ko uwo mugabo avuye mu myitozo ngororamubiri ananiwe cyane.

Abaganga babiri bari kuganiriza umusiporutifu bamufasha aho yaba agize ikibazo, bamuvura, bamusobanuza uko amerewe kugira ngo babashe kubona uko bamuha ubufasha.

Agakoresho k'ikoranabuhanga gakozwe mu buryo bugezweho ndetse gafite ibara ryiganjemo iry'ubururu, aho ako gakoresho kakorewe kugira ngo kajye gafasha abantu mu myitozo ngororamubiri, aho umuntu uri mu myitozo akifashisha kugira ngo arusheho kunoza imyitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri, wicaye ahantu mu busitani bwiza cyane bugizwe n'ibyatsi, aho yafatishije ibiganza bye ku kuguru kw'iburyo arimo agukanda kugira ngo akomore, bigaragara ko ashobora kuba yakomeretse.

Agakoresho gakozwe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga, aho ako gakoresho ka korewe kuba umuntu yakifashisha mu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, aho umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, yifashisha ako gakoresho kakaba kamworohereza mu gukora iyo myitozo ngororamubiri, kugira ngo hirinde kuba yakomereka.

Umugabo w'umwirabura ufite umubiri munini cyane, wambaye umwambaro wo hejuru wagenewe mu gukoresha mu myitozo ngororamubiri ufite ibara ry'umukara, ndetse ubona ko ari kugorora ibice by'umubiri, kugira ngo umubiri we umere neza, aho yifashishije amaboko ye ayarambura ayafatishije ku birenge bye, arimo ayagorora kugira ngo amererwe neza mu mubiri.

Uruhago rukozwe mu buryo bugezweho kandi rufite imyanya igiye itandukanye, uru ruhago rukaba rufite ibara ry'umutuku ndetse rukaba rukoreshwa mu kubika ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze nk'igihe umuntu yaba akomeretse cyangwa agize ubundi burwayi.

Imfashanyigisho yerekana uburyo butandukanye umuntu yagakwiye gukoresha igihe ari mu myitozo ngororamubiri. Aho muri ubwo buryo harimo nk'uburyo bufashwa mu kuba umuntu yagorora umugongo, amaboko, amaguru ndetse n'ibindi bice by'umubiri kugira ngo umubiri we urusheho kubaho umeze neza.

Imfashanyigisho yerekana umugabo ufite uruhu rwera ndetse uri kwiruka yambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri. Aho iyo mfashanyigisho inerekana imbuto zitandukanye umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri, yagakwiye gufata kugira ngo umubiri we urusheho kumera neza.

Imfashanyigisho yerekana uburyo bugiye gutandukanye umuntu ashobora kwifashisha igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, iyo mfashanyigisho ikaba ishishikariza abantu kuba bakwitabira ibijyanye n'ubuvuzi bukoresha imyitozo ngororamubiri.

Imfashanyigisho igizwe n'amabara atandukanye arimo ubururu ndetse n'umweru, ndetse n'andi mabara agiye atandukanye. Aho muri ayo mabara y'ubururu handitsemo amagambo ashishikariza abantu kuba bakwitabira ubuvuzi bwerekeye ubugororangingo dore ko ari n'ingenzi kuba umuntu yakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Urujya n'uruza rw'abantu. Rwiganjemo abakuru ndetse n'abato. Aho bateraniye hamwe mu kibuga, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo habashwe kuba hakurikiranwa ubuzima bwabo ndetse kugira ngo n'ubumenyi bwabo bubashe kuba bwazamurwa, bwerekeranye n'ukuntu babungabunga ubuzima bwabo, bifashishije imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri barimo umugabo ndetse n'umugore, aho uwo mugore ari gutanga ubuvuzi yifashishije kugorora ingingo z'umugabo bari kumwe, bigaragara ko uwo mugabo afite ingingo zitagikora, bitewe no kuba nta myitozo ngororamubiri agikora.

Umugabo w'umwirabura wambaye impuzankano y'umukara ndetse uri mu nyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho uwo mugabo ari kugorora ibice bye by'umubiri, harimo nk'amaboko, amaguru ndetse n'ibindi, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Umugabo w'umwirabura ufite umubiri munini cyane ndetse uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba afashe agakoresho kagenewe gutwarwamo amazi mu kiganza cye cy'ibumoso, ari kugakanda kari kuvamo amazi ari kuyanywa kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Ibice by'umuntu byitwa amaguru, aho ibyo bice biri kwerekana igice cy'ivi ndetse kiriho udukoresho dutandukanye twifashishwa mu kurinda iryo vi kuba ryakomereka igihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugore w'umwirabura wambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'umweru, ndetse aho uwo mugore ikiganza cye cy'ibumoso gifatiye umuti ku kiganza cy'iburyo, ubona ko ari komora igikomere kiri ku kiganza cye cy'iburyo kugira ngo ataremba.

Udukoresho dukozwe mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga twifashishwa mu kubika imiti iva mu gihingwa cy'ikikakarubamba, aho utwo dukoresho tubikwa igihe kirekire ndetse tukanafasha iyo miti na yo kuba itakwangirika.

Igihingwa kiri mu butaka ndetse gifite amababi manini cyane gifite amababi y'icyatsi ndetse gitewe mu butaka bufumbiye, aho icyo gihingwa cyatewe kugira ngo cyitabweho maze n'ikimara gukura kizasarurwe gikoreshwe mu gukora imiti igiye itandukanye.

Imfashanyigisho irimo agakoresho gakozwe mu buryo bugezweho, aho bigaragara ko ako gakoresho gatwagwamo imiti yagenewe guhabwa abagabo, ikaba ibafasha nko kuba batarangiza vuba ndetse no kudacika intege igihe bari gutera akabariro. Aho ako gakoresho gafasha iyo miti kuba yabikwa igihe kirekire ndetse kakanayirinda kuba yakwangirika.

Igikoresho gikozwe mu ngano nini kandi gikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho. Icyo gikoresho kikaba cyarakorewe kuba cyabika imiti itandukanye ikozwe mu gihinga cy'ikawa, aho icyo gikoresho cyifashishwa mu kubika iyo miti kugira ngo kirinde kuba yakwangirika ndetse inabikwe igihe kirekire.

Ubwoko bw'imiti butandukanye ndetse bukozwe mu bimera bigiye bitandukanye. Aho ibyo bimera bisarurwa bigatunganywa hifashishijwe ibikoresho bitandukanye harimo nk'imihini ndetse n'amasekuru. Iyo miti ikaba yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho ndetse n'ubuvuzi bwa Kinyarwanda.

Ikimera cyo mu bwoko bw'igiti gifite amababi atoshye ndetse giteye mu butaka bufumbiye, aho icyo kimera cyatewe ndetse kikanitabwaho kugira ngo kizakure neza, kizakoreshwe mu gukora imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Igihingwa cy'igikakarubamba gitoshye kandi giteye mu butaka bufumbiye. Aho icyo gihingwa cyatewe muri ubwo butaka kugira ngo nikimara gukura kizasarurwe, maze kijyanwe, gitunganywe, gikoreshwe mu gukora imiti igiye itandukanye.

Udukoresho dutandukanye dukozwe mu buryo bumwe ndetse tukaba turimo imiti igiye itandukanye, iyo miti ikaba yaratunganyijwe ivuye mu bihingwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse n'ubuvuzi bugezweho.

Ikibabi gitoshye gifite ibara ry'icyatsi kirambitse hasi ku gikoresho gifite ibara ry'umweru, aho kuri icyo kibabi hari imiti ikozwe mu buryo bumye, aho icyo kibabi gitunganywa neza mu buryo bugezweho kigakorwamo iyo miti ikiriho.

Agakoresho gakozwe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga, kakorewe kugira ngo kabe kakifashishwa mu kubika imiti itandukanye ikorwa ivuye mu bimera kugira ngo kayifashe kuba yabikwa igihe kirekire kandi kanayifashe kuba itakwangirika.

Imfashanyigisho igaragaza amabwiriza atandukanye akoreshwa mu kuba abantu bakwandikisha imiti gakondo. Aho abantu bakoresha iyo miti gakondo, bayijyana kuyandikisha kugira ngo hasuzumwe ubuziranenge bwayo, maze bayemerere kuba yakoreshwa mu buvuzi.

Icupa ririmo ubuki bw'inzuki riteretse ahantu, risa umukara, ripfundikijwe n'agacupa n'agafuniko k'umweru kugira ngo burindwe kwangirikwa.

Agakoresho gakozwe mu mabara yiganjemo ay'ubururu ndetse n'ay'umweru, ako gakoresho kakaba gakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho, aho kakorewe kuba kakoreshwa mu kubika imiti ivanwa mu bimera kugira ngo iyo miti ibikwe igihe kirekire ndetse kanayirinde kuba yakwangirika.

Amashusho ane atandukanye, agaragaza ibihingwa bitandukanye, bikoreshwa mu gukora imiti ya kijyambere ariko ikozwe mu bihingwa. Aho ibyo bihingwa bisarurwa bikajyanwa ahabugenewe, bikabasha kuba byakorwamo imiti itandukanye, ikoreshwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho.

Ibimera bitandukanye biri mu bihoho, aho byatewe kugira ngo bikure maze bizasarurwe, bibashe kujyanwa ahabugenewe, maze bikorwemo imiti itandukanye, ikoreshwa mu buvuzi bugezweho.

Agakoresho kabugenewe kari mu mabara yiganjemo ay'umweru, aho ako gakoresho kagenewe gutwarwamo imiti ikozwe mu bimera ariko ikozwe mu buryo bwa kijyambere. Aho iyo miti ishyirwa muri ako gakoresho kugira ngo hirindwe kuba yakwangirika ndetse inabashe kuba yabikwa igihe kirekire.

Udukoresho dutandukanye ndetse dukozwe mu buryo butandukanye bw'ikoranabuhanga. Utwo dukoresho tukaba twarakorewe kuba twabika imiti itandukanye harimo nk'ikorwa mu gihingwa cy'igikakarubamba. Utwo dukoresho tukaba dufasha iyo miti kuba yabikwa igihe kirekire ndetse tukanayirinda kuba yakwangirika.

Ikimera kirekire cyane gifite amababi y'icyatsi, aho ubona ko icyo kimera cyasaruwe kikavanwa mu butaka kikajyanwa aho gishobora kuba cyatunganywa kigakorwamo ibintu bitandukanye, harimo n'imiti ishobora kuba yakwifashishwa mu kuvura umuntu kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Icyatsi cyiza cyane gitoshye, gifite amababi y'icyatsi, aho icyo cyatsi giteye mutaka bwiza cyane bufumbiye, aho icyo cyatsi gishobora gukorwamo imiti itandukanye.

Udukoresho dukozwe mu buryo butandukanye ndetse no mu ngano zitandukanye, tukaba dufite amabara yiganjemo ay'umweru ndetse tukaba twarakorewe mu kubika imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi butandukanye, tukaba tuyifasha mu kuba yabikwa igihe kirekire ndetse tukanayirinda kwangirika.

Udukoresho dukozwe mu buryo bugezweho kandi dukozwe mu buryo bumwe. Aho utwo dukoresho twagenewe gutwarwamo imiti itandukanye ikorwa mu gihingwa cy'igikakarubamba. Aho utwo dukoresho dufasha iyo miti kuba yabikwa igihe kirekire ndetse tukanayirinda kuba yakwangirika.

Udukoresho dukozwe mu buryo butandukanye ndetse no mu ngano zitandukanye. Aho tumwe dukozwe mu buryo bukoze kare, utundi tukaba dukozwe mu buryo bukoze uruziga. Aho utwo dukoresho twakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, kugira ngo tubike imiti ikomoka ku bimera ikoze mu buryo bwa kijyambere, kugira ngo tuyirinde kuba yakwangirika kandi inabikwe igihe kirekire.

Amaboko abiri y'abantu bafite uruhu rwera ndetse ukuboko kumwe, k'umwe muri abo bantu, gufashe agakoresho kagenewe gutwarwamo imiti yagenewe gusukura amenyo ndetse arimo ku gakanda kari kuvamo umuti uri kugwa ku gakoresho kagenewe gusukura amenyo, gafashwe n'undi muntu na we ufite uruhu rwera.

Udukoresho dutatu turi mu mabara atandukanye, dukozwe mu buryo bwa kare, aho utwo dukoresho twagenewe gutwagwamo ibintu biva mu gihingwa cy'icyayi, aho ibyo bintu biba bikozwe mu buryo bugezweho, bigashyirwa muri utwo dukoresho kugira ngo birusheho kuba byabikwa igihe kirekire ndetse hanarindwe kuba byakwangirika.

Udukoresho tune dukozwe mu mabara atandukanye, ndetse dukozwe mu buryo bugezweho. Aho utuwo dukoresho twagenewe gutwara ibintu bitandukanye bikorwa mu gihingwa cy'igikakarubamba, ndetse n'ibindi bimera, kugira ngo hirindwe kuba ibyo bintu byakwangirika, ndetse binafashe ibyo bintu kuba byabikwa igihe kirekire, bikorwa mu gikakarubamba.

Ubwoko bw'igihingwa cy'ikinyakijumba, aho cyatewe mu butaka bufumbiye ndetse kikanitabwaho kigakura kigasarurwa kugira ngo kijyanwe ahabugenewe gitunganywe gikogrwemo imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bugezweho.

Igihingwa gitoshye kirekire ndetse gifite amababi y'icyatsi giteye ahantu mu butaka bufumbiye, aho icyo gihingwa gikurikiranwa kugira ngo nikimara kwera kizasarurwe kijyanwe ahabugenewe maze gitunganye, gikogwemo imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bugezweho.

Udukoresho dukozwe mu buryo bugezweho, dukozwe mu buryo butandukanye, amabara atandukanye ndetse no mu ngano zitandukanye. Aho utwo dukoresho twagenewe kutwarwamo imiti itandukanye ikozwe mu bimera harimo nk'igikakarubamba. Aho utwo dukoresho twifashishwa mu gutwara iyo miti tukayirinda kuba yakwangirika ndetse tukayifasha no kuba yabikwa igihe kirekire.

Udukoresho tubiri dukozwe mu buryo bumwe kandi mu ngano zimwe, dukozwe mu buryo bukoze kare, aho utwo dukoresho twagenewe mu kubika ibiribwa bikozwe mu bimera, bigizwe n'intungamubiri zitandukanye, aho abantu barya ibyo biribwa kugira ngo imibiri yabo imere neza, utwo dukoresho tukaba dufasha ibyo biribwa kuba byabikwa igihe kirekire kandi tukanabirinda kwangirika.

Udukoresho dutandukanye dukozwe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga, tukaba dukozwe mu buryo bwa kare, tukaba twarakorewe mu kubika imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi, tukayirinda kuba yakwangirika ndetse ikanabikwa igihe kirekire.

Ikiganza gifashe ibiti ndetse ibyo biti bikaba biriho ikibabi gitoshye gifite ibara ry'icyatsi, icyo kibabi kiri kuri ibyo biti, kikaba cyasaruwe kugira ngo kizanwe ahabugenewe, gitunganywe maze gikogwemo imiti izakoreshwa mu buvuzi.

Ubwoko bw'ibimera butandukanye bushobora kuba bwatunganywa bukifashishwa mu gukora imiti ya kijyambere cyangwase bukifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bukikijwe n'udukoresho dukoreshwa mu kuyitunganya, kugira ngo itungane maze ibashe guhabwa umuntu urwaye, maze arusheho kumera neza.

Ingemwe z'ibihingwa ziri hamwe batunganije zisigaje igihe gito kugira ngo zijye guterwa aho zagenewe, ubona ko zitoshye zimeze neza kandi zifite intungamubiri zihagije.

Agakoresho gakozwe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga. Aho ako gakoresho kifashishwa mu kuba kabika imiti ikozwe mu bimera. Aho ako gakoresho gafasha iyo miti kuba yabikwa igihe kirekire, kandi ikanabasha kuba itakwangirika.

Udukoresho dutandukanye dukozwe no mu buryo butandukanye, twakorewe kuba twabika imiti ikozwe mu bimera aho iyo miti ijyanwa ahantu habugenewe igatunganywa, yamara gutunganywa, ikabikwa muri utwo dukoresho kugira ngo ibashe kuba yabikwa igihe kirekire kandi tunayirinde kuba yakwangirika.

Agakoresho gakozwe mu buryo bukoze kare ndetse ako gakoresho kakaba karagenewe gutwarwamo imiti ikorwa mu gihingwa k'icyayi aho iyo miti itunganywa mu buryo bugezweho, ikabikwa muri ako gakoresho kugira ngo kayirinde kuba yakwangirika ndetse kanayifashe kuba yabikwa igihe kirekire.

Udukoresho dutandukanye dukozwe mu buryo butandukanye dufite amabara atandukanye ndetse dufite n'ingano zitandukanye, aho utwo dukoresho twakorewe mu kubikwa imiti itandukanye iva mu bihingwa ,harimo nk'iva mu gikakarubamba ndetse n'ibindi bimera. Aho utwo dukoresho twakorewe kuba twabika iyo miti kugira ngo ibikwe igihe kirekire kandi tunayirinde kuba yakwangirika kugira ngo izakoreshwe mu buvuzi bugezweho.

Ubwoko bw'umuti bukoreshwa mu kuvura ndetse no mu gutanga ubuvuzi bugezweho, ubwo bwoko bw'uwo muti bukaba bukorwagwa mu gihingwa cy'igikakarubamba, aho icyo gihingwa cy'igikakarubamba gihingwa maze kikitabwaho cyamara gukura kigakoreshwa mu gukora uwo muti.